Umuganga urimo urakingira akana gatoya, akana gatoya ko mu rugero rw'imyaka itatu n'imyaka itanu, aho bari kumutera urushinge bamukingira indwara.

Umunyeshuri uri gukurikiza amabwiriza ya Leta, bigaragara neza ko yishimiye igikorwa cy'isuku, aho ari gukaraba amaboko akoresheje amazi meza, asukuye.

Umusaza ugaragara ko yishimiye igikorwa arimo, ari mu gikorwa ubona ko ari nko gususurutsa abitabiriye ibiganiro, aho yishimye cyane aseka rwose amenyo ari hanze yerekana ko anezerewe.

Abantu bicaye hamwe bari mu kiganiro rusange, kivuga ku bijyanye n'ubuzima, bari bishimiye ibiganiro bahabwa, urabona bibanyuze.

Inyubako y'ibitaro yerekana ibyumba by'abarwayi aho harimo imashini nziza zifite ubushobozi bukomeye kandi hagaragara ko harimo isuku ihagije ku buryo umurwayi atagiriramo ikibazo.

Inzu y'ibitaro mu ruhande rw'inzu y'ababyeyi, ababyeyi ,abagiye kubyara, abafite ibibazo byerekeranye n'imyororokere, inzu bavurirwamo byose hamwe.

Icyumba cyo kuganiriramo kirimo intebe eshatu, enye, hamwe n'ameza atatu, harimo imitako yiganjemo indabyo, indabyo za kimeza nzima zishishe zimeze neza.

Umukobwa w'inkumi, uri mu myitozo ngororamubiri, aho aruhutse ho gato ahagaze, kugira ngo yongere akomeze gahunda arimo y'iwe y'imyitozo ngororamubiri, mu kugira ngo arwanye indwara, mu rwego rwo kwirinda indwara.

Umusore ubona ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza kuri mirongo itatu, uri ahantu mu muhanda ari mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yishimiye igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri.

Umuti ukozwe mu bimera, umuti mwiza witwa Fibroids Natrural Treatment, umuti mwiza wakifashisha mu gihe ushaka kurwanya indwara yatuma bakubaga iyo ariyo yose.

Umuti mwiza ukozwe mu kimera k'igikakarubamba wo kwisiga ku minwa kugira itumagara, itagira ikibazo na kimwe ukoresheje umuti w'ibimera.